Umuti ukoreshwa mu kurwanya ububabare bw'imitsi, ingingo n'inyama zo ku mubiri by'umwihariko ku bantu bakora siporo cyangwa ibikorwa bikomereye umubiri, ukaba ufasha mu kugabanya ububabare buterwa n'imvune cyangwa umunaniro. Witwa "Stopain".